Umugabo wazamuye ishati ngo muganga amutere urushinge rw'urukingo rumufasha kwirinda indwara nyinshi zigiye zitandukanya.

Umugore uvoma amazi asa nabi y'igishanga ndetse hirya ye hari umugabo woza igare muri aya mazi ndetse ayongerera kwandura.

Umwana w'umwirabura wambaye ikanzu y'umweru irimo ibidomo by'ubururu, aravoma amazi meza mu ndobo nziza ku ivomero aseka, yishimiye amazi asa neza ari kuvoma.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda y'amakote, bicaye ku meza ndende, inyuma yabo hari idarapo ry'u Rwanda n'ikirangantego cy'u Rwanda, baganira ku buvuzi.

Ivomero riri ku nzira nyabagendwa, umugabo w'umwirabura ari gufasha umwana kuvoma amazi meza mu kabido ke, gakoreshwa mu buryo bwo gutwara no kubika amazi.

Ikirango cyiganjemo ubururu cy'umuryango ufasha abana ku Isi yose, guhabwa uburenganzira bwabo mu myigire n'imibereho yabo n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umwana uvoma injerekani n'izindi ebyiri ziri hasi bisa nkaho nazo ari buzivome, araseka ashimishijwe nuko ari gukoresha amazi meza.

Umuzungukazi arafotora umwana w'umwirabura wikoreye injerekani, ari kumwe n'umugabo wambaye umupira w'ubururu n'agapfukamunwa amwereka ihohoterwa ry'abana bibaviramo no kugwingira.

Abana bari ku ishuri bafite udukombe begereye utugega duto twifashishwa mu gutanga amazi meza, abo bana b'abanyeshuri, bafite ibikombe aho bari kunywa ayo mazi meza.

Umugabo n'umugore bashakanye baraganirizwa n'umugore w'umujyanama w'ubuzima bicaye bishimye bateze amatwi kugira ngo bazakurikize ibyo babwiwe.

Umwana w'umwirabura arakaraba mu maso amazi meza yo ku ivomero rusange, bigaragaza isuku ndetse n'ikemurwa ry'ibura ry'amazi.

Umugore w'umwiraburakazi uvuye kuvoma ufite injerekani ifunze neza irimo amazi ku mutwe we n'abana hafi ye nk'uburyo bwiza bwo gutwara amazi neza.

Umugore w'umwirabura asutamye imbere y'ibase n'ibido hari imyenda inyuma ye bigaragara ko amaze gufura akayanika ku mugozi n'isuku ikenerwa na buri muntu wese.

Abana b'abirabura b'abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu bari ku ivomero, bavomera bimwe mu bikoresho byifashishwa bitwara amazi nk'indobo ndetse n'utubido.

Umugabo w'umwirabura wunamye woga intoki n'amazi n'isabune, ari kumwe n'umwana muto amusukira amazi mu ntoki, yoga nka kimwe mu buryo bwiza bwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Umugore w'umwiraburakazi wambaye ingofero mu mutwe uri koga intoki akoresheje kandagira ukarabe, nk'ikimenyetso cy'isuku ukomoka mu kutoga intoki uko bikwiye mu gihe cyose.

Umugangakazi w'umugore aratera urushinge rw'urukingo umwana, ukikiwe n'umugore zimwe mu ngingo zifasha abana kwirinda no gukumira indwara zitandukanye.

Umugore uteruye umwana, amuha umuganga, uri imbere y'umuzani, ukoreshwa upima abana ngo bamenye uko ibiro byabo bingana.

Umugore w'umwirabura, uvoma amazi meza mu ndobo ku ivomero ndetse n'abandi babiri, bari kumufasha kuvomera indobo ngo yuzure ndetse na bo bavome.

Umwana wunamye ari kuvoma amazi mu gishanga, bimwe mu bintu bikurura indwara zigiye zitandukanye, zikomoka ku mikoreshereze y'amazi mabi.

Abagore batatu bazanye amajerekani yabo ku ivomero, aho buri wese arindiriye uriho ngo asoze kuvoma na we avome amazi meza aba yaragenewe abaturage, bikabarinda kujya mu bishanga bazana amazi mabi.

Umuganga aratera urushinge rw'urukingo umugore mukuru washinyirije mu kaboko, nk'uburyo bwiza bwo kwirinda indwara ndetse bikagufasha no kutandura indwara zigiye zitandukanye.

Umugore w'umwirabura ukikiye umwana wazanwe kuvuzwa, ari gusuzumwa na muganga amukuzaho intoki ngo yumve uko ameze ahereko amenye uko amufasha.

Abagabo n'abana bazengurutse ivomero ritanga amazi meza ariko ajya mu ijerekani yabugenewe, aho umugabo umwe arimo gutsindagira icyuma cy'ivomero cyifashishwa mu kuvoma.

Abantu icumi bavuye imbere y'inzu mberabyombi harimo abaforomokazi babiri, bavuye mu mahugurwa y'ibijyanye n'uburyo bakwita ku buzima ndetse n'ubuvuzi muri rusange.

Umwana w'umukobwa w'umunyeshuri uri koga amazi meza y'iriba ryo ku ishuri n'indobo imbere ye, yifashishwa nk'igikoresho kibika amazi yo koga asa neza.

Umwana urira, ufite igikomere ku mutwe, ateruwe n'umugore n'umuganga upfuka igikomere cye akirinda kuzamo indwara zigiye zitandukanye zituruka ku mwanda n'ibindi bitandukanye.

Umwana w'umunyeshuri aroga intoki aseka ku ivomero ryakozwe mu ndobo zifasha abana rikabegereza amazi meza bityo bakirinda indwara ziterwa n'amazi mabi cyangwa kutoga intoki.

Icyumba cy'ibitaro cyagenewe kubagwamo umurwayi waje akwiye kubagwa, cyuzuyemo abaganga bambaye bikwije bikwiye umuganga ugiye kubaga umuntu ngo bamuvure akire amere neza.

Abagore n'abagabo b'abirabura, bazanye amajerekani yabo n'amagare yo kubatwaza, ayo majerekani bayazanye ku ivomero ngo bayuzuze amazi asa neza.

Umugore w'umwirabura uhetse umwana aroza ku ivomero umufuniko w'indobo, ibikwamo cyangwa itwarwamo amazi meza, nko kurinda gukoresha ibikoresho byanduye, bityo ikanduza n'amazi.

Amasahani ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa ku meza babiriho, byanitswe hanze ngo byumuke ndetse bikaba byanatera umwanda kuri ayo masahani ndetse n'ibindi bikoresho bariraho, bikaba inkomoko y'indwara zigiye zitandukanye.

Abana barimo abakobwa n'abahungu b'abanyeshuri bari imbere y'amavomero atatu, bavoma amazi meza bayashyira mu madobo ndetse no mu tubido twabo.

Abakobwa b'abirabura babiri bahererekanya indobo isa neza, irimo amazi nk'uburyo bwiza bwo gutwara amazi, bukayarinda kwandura no kumeneka bityo akagera aho ajyanywe ngo akoreshwe akimeze neza.

Umugore w'umwirabura wunamye mu mazi asa nabi y'umugezi, adaha akoresheje indobo n'umwana hirya ye areba ibyo ari gukora bimwe mu biteza indwara zikomoka ku mwanda.

Abana benshi b'abirabura bari hamwe baseka, gusa basa nabi nk'abana bakwiye kwitabwaho cyane nk'uburenganzira bwabo bagombwa na buri muntu wese.

Isange, ni ikigo cya polisi gifasha abana ndetse n'abagore bakorewe ihohoterwa, bakaganirizwa, bakabwirwa uko bakitwara nyuma yo guhohoterwa.

Umugabo w'umwirabura ufite umusatsi mwinshi n'ubwanwa bwinshi cyane, wambaye ishati yacitse asa nabi aragenda ameze nk'uwivugisha bimwe mu bikora abafite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugore w'umwirabura wambaye ishati y'ubururu, yifashe mu mutwe bigaragara nkaho ananiwe, cyangwa afite ibibazo by'ubuzima busanzwe.

Umugabo w'umwirabura wicaye hasi ku muhanda, wifashe nk'ubabaye, usa nabi n'imyenda isa nabi ndetse yacitse, ufite udushashi tw'amazi mu ntoki.

Umugabo wirabura usa nabi wambaye ibicupa n'imifuka ufite uburwayi bwo mu mutwe, uri ahantu hajugunywa imyanda, abitoragura ndetse bikanamwanduza.

Ikirango kigaragaza ikigo gifasha abarwayi bo mu mutwe, aho bagerayo bakavurwa ndetse bakamenya uburwayi bafite, bakwitabwaho n'abaganga babyize ndetse bagafasha gusubizwa ubuzima busanzwe.

Abantu benshi batandukanye bicaye bahurijwe hamwe, bamwe bicaye imbere bavuga ku ndwara zo mu mutwe n'uburyo bwo kuzivura ndetse no kuzirinda.

Umugabo w'umwirabura useka wambaye ishati y'icyatsi, ari imbere y'igishushanyo k'ingagi mu Rwanda, aho bitirira ingagi amazina.

Umugore w'umwirabura ufite isuka mu ntoki, wikoreye igitebo cyuzuyemo ibishyimbo kinini, bigaragara ko avuye gusarura mu gihe cy'isarura.

Umugabo w'umwirabura wicaye hasi n'ikabutura, usa nabi ndetse wambaye igipine, bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umwana muto wifashe mu maso n'ibiganza byombi, bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu afite agahinda ko akeneye umwitaho.

Umugore w'umwirabura arasamye imbere y'umugangakazi areba mu kanwa ke, amupima areba ko nta kibazo kirimo bityo amenye n'uko amuvura cyangwa amufasha.

Umugabo useka yerekana amenyo, areba umugangakazi ufite mu ntoki iryinyo ryakozwe ku buryo barisimbuza iryagize ikibazo, bityo ukongera ukagira inseko nziza.

Icyumba cy'ibitaro cyagenewe abarwayi baza baje kwivuza amenyo, harimo ibikoresho ndetse n'igitanda kijyamaho umurwayi waje kureba muganga mu gihe ari gupimwa.

Icyumba cyo kwa muganga gikoreshwa n'abarwayi bagana kwa muganga, bafite uburwayi butandukanye bw'amenyo aho bahurira na muganga, muganga akabapima cyangwa akanabavura bityo ubuzima bwabo bw'amenyo bukagenda neza.

Umwana w'umwirabura werekana igikoresho gifasha mu koza amenyo gisa umuhondo, ndetse n'abandi inyuma ye bari koza amenyo nk'uburyo bwo kwirinda indwara ziterwa no kutoza amenyo.

Abantu babiri, umwe ari kwereka undi uburyo bwo kuvura amenyo hakoreshejwe igikoresho cyagenewe kwigishirizaho hatagombye gukoresha umuntu usanzwe.

Umugabo w'umwirabura useka agaragaza amenyo, arerekana uko akoresha akadodo gasanzwe akura imyanda isigara hagati y'amenyo, birinda indwara ziterwa n'imyanda iba iri hagati y'amenyo.

Umugabo w'umwirabura useka ugaragaza uko wakoresha akadodo gasanzwe, ukura imyanda iba iri hagati y'amenyo, bimwe mu bikurinda indwara ziterwa n'umwanda usigara hagati y'amenyo.

Icyumba kinini cy'umweru, kirimo intebe eshatu zagenewemo kwicarwamo n'abarwayi barwaye uburwayi butandukanye bw'amenyo, aho muganga abaryamisha ari kureba uburwayi barwaye.

Umusore uryamye ku gitanda cyo mu bitaro wasamye hifashishijwe agakoresho gafasha umurwayi kuguma yasamye atananirwa, uwo musore ararebwa mu menyo n'umuganga ushaka kumuvura ngo akire.

Umugabo w'umwirabura useka wicaye ku ntebe yo mu bitaro yerekana amenyo, imbere hari umuganga ufashe agakoresho ka miruwari, gakoreshwa na muganga areba aho amaso atabasha kureba mu kanwa.

Umugabo w'umwirabura wireba mu ndorerwamo, aseka agaragaza uburyo wakoresha akadodo gasanzwe usukura imyanda isigara hagati y'amenyo, bikagufasha kwirinda indwara z'imyanda isigara hagati y'amenyo.

Umugabo wireba mu ndorerwamo yiborosa nka bimwe mu buryo bukoreshwa hakorwa isuku mu menyo bigafasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda uba mu menyo.

Umugore w'umwirabura arireba mu ndorerwamo aseka yoza amenyo akoresheje uburoso nka kimwe mu buryo bwo gukura umwanda mu menyo bikagufasha kwirinda indwara ziterwa n'umwanda uba mu menyo.

Umukobwa w'umwirabura useka yerekana amenyo n'ikiganza cya muganga imbere ye, kerekana iryinyo ry'irikorano ryakozwe mu gusimbuza irindi ryinyo ryagize ikibazo.

Abaganga bambaye amarinete n'udupfukamunwa bari kuvura umurwayi w'amenyo w'umugore wasamye uryamye hagati yabo ngo avurwe akire.

Umugabo w'umwirabura useka yerekana amenyo ye nk'ikimenyetso cyiza cyo koza amenyo bikanakurinda indwara zigiye zitandukanye, ikanagufasha kugira inseko nziza.

Umugabo w'umwirabura wicaye mu cyumba cyo kwa muganga aseka, yerekana amenyo nk'icyiza cyo kugana kwa muganga ngo barebe uko amenyo yawe ameze.

Umugore ararebana n'umwana w'umukobwa amusekera, bose bafite uburoso mu ntoki amwereka uko boza amenyo, kimwe mu birinda umwanda w'amenyo utera byinshi nk'indwara z'amenyo n'impumuro mbi mu kanwa.

Akanwa k'umuntu wasamye, muganga akoresheje ibikoresho byabugenewe bikura amenyo akura iryinyo, rifite amaraso bigaragara ko aribwo rigikurwamo.

Umugabo w'umwirabura useka wirekana cyane amenyo nk'akamaro ko kwita ku menyo, bituma amenyo asa neza ndetse ugaseka bikagaragara neza imbere y'abandi.

Abagore babiri bari mu gikoni umwe usheshe akanguhe n'undi ukiri muto, bari guseka bishimye batunganya imboga zo guteka mu biryo.

Umugore ukuze w'umwirabura araseka yerekana udukoresho turi mu ntoki ze twifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ikomeza amaboko.

Umusaza usheshe akanguhe, utabasha kumanuka kuri esikariye, afashwe mu mugongo n'umugabo ukiri mutoya, amufasha kumanuka kuri esikariye, bumwe mu buryo wafasha abantu bari mu zabukuru, mu gihe aho bageze batabasha kumanuka cyangwa kugenda.

Umugabo n'umugore b'abirabura basheshe akanguhe, bicaye ku ntebe imbere y'imeza bareba muri telefone ifashwe n'umugabo, umugore afashe agapapuro n'ibinini imbere yabo, ndetse n'amazi biri ku meza, bigaragara ko barwaye.

Umugore ukuze araseka yerekana ibiryo biri ku isahani nk'ibiryo byuzuyemo intungamubiri buri wese akwiye kurya ngo agire ubuzima bwiza.

Abagore b'abirabura batatu, basheshe akanguhe, baraseka, bareba muri telefoni, bifotoza, bagaragaza ibyishimo bibavuye ku mitima yabo.

Umugabo ukuze wicaye mu kagare k'abatabasha kugenda, arafashwa n'umugore w'umugangakazi amwereka uko bakoresha, kamwe mu dukoresho tw'imyitozo ngororamubiri gakoreshwa n'akaboko.

Ihuriro ry'abagore n'abagabo basheshe akanguhe barimo barafashwa n'abambaye utujire kugira ngo bitabweho neza ndetse bahabwe ubufasha kuko bahura na byinshi mu izabukuru.

Umugore ukuze, wicaye mu cyumba ku gitanda, yihumuriza intoki ze z'iburyo, ndetse izindi ntoki z'ibumoso, zicigatiye amazi ari mu kirahure.

Umugabo ukuze wambaye amarinete n'umupira w'umweru, arereka umusore ukiri muto wambaye ishati irimo uturongo tw'umweru mu gitabo, baraseka n'amatasi imbere yabo.

Umugangakazi, ari guha umugore ukuze ufite ikirahure cy'amazi mu ntoki, uwo muganga ari kumuha imiti y'ibinini, ngo anywe, bityo imufashe kumererwa neza.

Umugabo w'umwirabura ukuze arakina umukino w'igisoro aseka yishimye, bimwe mu bintu bikenerwa ku bantu bakuze, bityo bikabarinda indwara ziterwa n'agahinda cyangwa n'ibindi.

Umugore w'umwirabura mukuru uri mu ntebe y'akagare kagenewe abafite ibibazo byo kugenda, ararebana n'umuganga we umwitaho baseka, bishimye.

Umugabo w'umwirabura ukuze uri mu cyumba, arahagurutswa n'umugore ndetse n'umugabo, ku gitanda bigaragara ko atabasha kwihagurutsa kubera izabukuru.

Umugabo ukuze atwawe mu kagare gakoreshwa n'abatabasha kugenda arebana n'umuforomo umwitaho baseka yishimiye uko agenda akira n'uko yitaweho.

Icyumba kirimo umusaza w'umwirabura usheshe akanguhe, ufashwa n'umuzungukazi guhaguruka ku gitanda cye, bumwe mu buryo bwo gufasha abakuze cyangwa abasheshe akanguhe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaza usheshe akanguhe uri mu cyumba cy'uruganiriro, asukirwa n'umugore icyo kunywa ndetse n'imbuto hafi ye ku meza, azirya mu buryo bwo kwirinda indwara.

Umugabo ukuze arerereka umugore uri gukoresha mudasobwa uko umuti wanditseho nka bimwe mu bintu biri ngombwa ko ubanza gusoma ku muti wahawe.

Umugore mukuru w'umwirabura, aricaye arakora imyitozo ngororamubiri y'umugongo imufasha kugororoka ndetse ikamurinda indwara z'umugongo, inamufasha gukomera umugongo.

Umugabo w'umwirabura ufite imvi, arakina ashimisha umwana ufite agapupe mu ntoki amuteruye, bimwe mu bintu bishimisha abasaza n'abakecuru.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, arimo arafashwa n'umukobwa, ndetse n'umuhungu bakiri bato, bari mu gikoni, aho umukobwa afashe imboga n'utumamiyo, ndetse umuhungu nawe, afite isahani iriho imigati.

Umugore w'umwirabura ushesha akanguhe, ararebana n'umuganga bafatanye mu biganza baseka bigaragara ko yitaweho neza n'umuganga.

Umugabo wambaye ingofero afite icyapa kibwira abahisi n'abagenzi ko urukingo rw'indwara y'Ubushita ko ugomba kurubona ubu, bikagufasha kwirinda iyi ndwara yandura vuba.

Uducupa twinshi tw'imifuniko y'icyatsi, tugaragaza abanduye icyorezo cy'ubushita nka virusi izengereje Isi muri iyi minsi cyane cyane muri Afurika, aho yibasiye benshi.

Ikigo k'igihugu gifasha abaturage, gikora ubushakashatsi, ndetse no kubona imwe mu miti ikoreshwa ivura abaturage, batwaye uburwayi bugiye butandukanye. Ikigo cy'ubuzima gifasha byinshi, abatuye u Rwanda.

Urubyiruko rwihurije hamwe rugakora urugendo n'icyapa kigamije kwibutsa ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu, rukwiye kwirinda Sida.

Icyumba cyo mu bitaro kirimo igitanda ndetse n'ibikoresho nka mudasobwa, byifashishwa kureba uburwayi bw'umurwayi waje abagana ngo bamuvure akire.

Abantu bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Gishweru gifasha abagituriye mu kubona ubuvuzi bw'ibanze, bakavurwa ndetse bagahabwa n'ubukangurambaga bwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Aho bacururiza imiti igiye itandukanye ndetse ivura uburwayi butandukanye, aho umuturage ajya afite agapapuro k'imiti yahawe na muganga akabasha kuyigura.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha cyubakiwe abaturage bacyegereye ngo bityo babone ubuvuzi bw'ibanze, ku burwayi bwabo bugiye butandukanye.

Icyumba cy'ibitaro kirimo igitanda n'ibitambaro by'icyatsi, cyagenewe abarwayi bagomba kubagwa n'abaganga, bityo bakanavurwa bagakira.

Icyumba cy'ibitaro kinini kirimo ibitanda byabugenewe, n'ibikoresho mu kuvura abarwayi baje muri ibyo bitaro bikabafasha gukira bakamera neza.

Inzu icurizwamo imiti aho umuturage agera akerekana agapapuro yahawe na muganga k'imiti ari bugure ni uko akayihabwa ikamufasha mu gukira uburwayi bwe.

Umuryango w'icyumba cyo mu bitaro cyagenewe kubagirwamo abarwayi barwaye indwara zitandukanye zisaba kubagwa cyangwa bagapimwa bakavurwa, bityo bakabona ubuvuzi bwizewe.

Icyumba cy'ibitaro kirimo abarwayi babiri baryamye ku bitanda bibiri ikiri hagati ntawe ukiryamyeho, aho abo barwayi baje ngo bitabweho na muganga batari iwabo.

Ububiko bwemewe bw'imiti igiye itandukanye yifashishwa n'abaganga, bayiha abaturage ngo ibavure indwara zigiye zitandukanye ndetse n'imiti ifasha abarwayi barwaye indwara zidakira nka sida n'izindi.

Ibitanda bibiri byo kwa muganga byagenewe abarwayi baje barembye, bakaryama mu rwego rw'uko bakomeza kwitabwaho n'abaganga babegereye hafi.

Ivuriro ry'icyerekezo ry'inzu igeretse ryubakiwe abarwayi bo mu gace irimo ndetse na kure yayo mu kubafasha kuvurwa ndetse bagakira neza.

Ikigo cyo muri Afurika gifasha kurinda no kurwanya indwara zandura ku bantu no ku nyamaswa, iyo ukigezeho baguha imiti igufasha kurwanya uburwayi bugiye butandukanye ndetse no kubwirinda butaraza.

Icyumba cyo mu bitaro cy'umwihariko kirimo igitanda ndetse kijyanwamo umurwayi urwaye indwara zigiye zitandukanye, akabona ubuvuzi akwiye neza kandi vuba.

Umugore w'umwirabura wambaye ishati y'umweru uri kureba, umwana uri ku munzani apimwa ibiro ndetse n'ababyeyi bazanye abana babo kubapimisha ibiro ngo barebe uko bahagaze.

Inzu y'ibitaro y'icyerekezo y'umweru n'amadirishya y'ubururu, yubatswe mu gufasha mu buvuzi bw'abaturage mu gace iherereyemo ndetse na kure yayo mu rwego rwo kuvura neza.

Ibikoresho bisangwa mu bitaro bikoreshwa n'abaganga bapima cyangwa bavura abarwayi babagana barwaye indwara zigiye zitandukanye bakavurwa bagakira bakabona ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba cy'ibitaro kinini kirimo ibitanda byabugenewe n'ibikoresho mu kuvura abarwayi baje muri ibyo bitaro, bikabafasha gukira bakamera neza.

Inzu y'ibitaro yabugenewe, ifashirizwamo ababyeyi n'impinja ku bufasha bugiye butandukanye, cyane ku babyaye vuba niho berekezwa maze bakitabwaho.

Icyumba kirimo utubati twuzuyemo imiti igiye itandukanye, ari nako ivura indwara zigiye zitandukanye, buri muturage akaba agerayo akabasha kubona umuti w'indwara ye.

Umurwayi w'umugore waje kureba umugangakazi n'umuforomo umuri inyuma, aho abwira muganga ikibazo afite ndetse muganga akamufasha gukira amuvura akanamuha n'imiti.

Icyumba cy'ibitaro kirimo ibitanda byinshi byagenewe abarwayi, barwaye indwara zigiye zitandukanye, bagomba kwitabwaho bari kwa muganga bityo bibafashe gukira neza.

Icyumba k'ibitaro kirimo ibitanda na buri gitanda gifite inzitiramibu yacyo, iki cyumba gikoreshwa n'abarwayi baje bagana ibitaro bikaba ngombwa ko bitabwaho bari mu bitaro.

Icyumba cy'imyitozo ngororamubiri cyuzuyemo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri kugira ngo buri uhageze akore iyo myitozo imufashe gukomera no kugira ubuzima bwiza.

Abagore b'abirabura b'abaforomokazi batatu bari hamwe baseka, bamwe mu baganwa n'abarwayi batari bake ngo babafashe mu burwayi bwabo butandukanye ngo bongere bamere neza.

Icyumba cy'imyitozo ngororamubiri, cyuzuyemo ibikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri igiye itandukanye ndetse ikanafasha mu kuvura cyangwa ikagorora imwe mu ngingo z'umubiri.

Farumasi ya Kanombe ahacururizwa imiti igiye itandukanye kandi inavura indwara zigiye zitandukanye, baba bafite imiti wandikiwe na muganga.

Umugabo w'umuganga wereka umwana w'umunyeshuri mu ishuri, uko amenyo ateye akoresheje igikoresho cyabugenewe mu gufasha mu myigishirize y'uburezi muri rusange.

Isange ni ikigo cya Polisi gishinzwe gukurikirana abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, barafashwa bakagirwa inama, bikabafasha gukomeza ubuzima busanzwe.

Udushashi twagenwe kubikwamo amaraso akoreshwa yongerera abarwayi bafite ibibazo by'amaraso make, aho bareba amaraso ahuye n'ayawe, bakayagutera bityo bikagufasha kongera kumera neza.

Icyumba cy'ibitaro cyabugenewe kibika udushashi turimo amaraso yifashishwa aterwa umurwayi wabuze amaraso bikamufasha kongera kugira ubuzima bwiza.

Ibiro bifite ibara ry'umweru, harimo mashini iri ku meza, intebe zikoze mu mbaho, amarido, igishushanyo cy'umugabo n'umugore bari inyuma ndetse n'akabati kariho uducupa.

Intebe ebyiri z'ubururu ziba mu bitaro, zifashishwa na muganga imwe ayicayeho, indi yicarwaho n'abarwayi baje kuvurwa, barwaye indwara zigiye zitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gikoreshwa hasuzumwa cyangwa havurwa abarwayi b'indwara zigiye zitandukanye, aho baryama ku gitanda bakareba uko bafashwa mu gukira cyangwa gusuzumwa.

Icyumba kirimo ibyuma bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, n'abantu bagiye batandukanye mu kwirinda indwara ziterwa no kubaho udakora iyo myitozo ngororamubiri.

Ibitaro byo mu Karere ka Nyarugenge, byubatswe ngo bifashe abaturage batuye muri ako karere, mu kubona ubuvuzi, batarinze kujya mu tundi turere tubaturiye.

Ikirango cyerekana ko bageze mu bitaro bya Kabgayi, ahahurira abarwayi barwaye uburwayi bugiye butandukanye, bakavurwa bakitabwaho ndetse bagafata ubuvuzi n'imiti igenwe.

Abantu barimo abagabo n'abagore muri abo harimo n'abaganga bamwe, basutamye abandi bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi babyaye cyangwa bitegura kubyara, aho babasanga muri iyi nzu yagenwe bakitabwaho bikwiriye.

Ijagi isa neza y'ikirahure yuzuyemo amazi meza, irakoreshwa isuka amazi mu kirahuri gisa neza, n'amazi nk'ikimenyetso cy'ikinyobwa gikenerwa mu mubiri wacu buri gihe.

Inkweto z'umukara nini zikomeye, ziri hasi kubutaka, ziriho agapapuro, zimwe mu nkweto zikomera cyane ndetse zitinda gusaza.

Umugabo w'umwirabura upfukamishije ivi rimwe, agorora irindi, imyitozo ngororamubiri ikomeza ingingo zacu, ndetse ikazirinda no mu zabukuru.

Amazi n'igikoresho ngororamubiri n'indimu n'ibindi biri hamwe, ndetse n'igipimisho cy'abadozi, ibyo nka bimwe mu bintu byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ikenerwa na buri muntu.

Agakoresho gakoreshwa mu myitozo ngororamubiri, gakomeza inda cyangwa kayigabanya, kagura ibihumbi ijana na makumyabiri.

Umuntu unywa amazi meza, ari mu gacupa gasa neza, kagenewemo kunywebwamo amazi nk'ikinyobwa gikenerwa cyane n'imibiri yacu.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri ufite agasume k'umweru ku rutugu, aranywa amazi meza ngo amufashe kuruhuka no kumera neza mu mubiri.

Umugore w'umwirabura uri muri siporo uhagaze yambaye agapira k'iroza, ari kunywa amazi na kuteri mu matwi yumva indirimbo, yerekana ko siporo ari ubuzima ndetse n'amazi akabimufashamo.

Umugabo wambaye ikabutura y'umweru n'inkweto z'umweru, hasi ari umutuku, yambaye isaha ari gukora imyitozo ngororamubiri ifasha umubiri kugororoka ndetse ingingo zo mu mubiri zigakora neza.

Umugabo w'umusore ufite ubwanwa, wambaye isengeri y'umweru, arakoresha akaboko ke k'iburyo agorora ak'ibumoso, muri siporo zifasha mu kugorora imitsi ndetse n'ingingo z'urutugu.

Umugabo w'umwirabura aranywa amazi meza mu gacupa gasa neza, amazi nka kimwe mu binyobwa bikenerwa n'umubiri wacu mu buryo bugiye gutandukanya.

Umugabo wumwirabura wambaye ishati y'iroza, yicaye mu bitaro bivurirwamo abarwayi bagiye bafite uburwayi bugiye butandukanye, yicaye imbere ya mudasobwa, ari kureba uko kimwe mu rugingo rwe rwumubiri cyifashe.

Umukobwa w'umwirabura wambaye imyenda y'imyitozo ngororamubiri, arumva indirimbo anywa amazi nka kimwe mu binyobwa bikenerwa iyo uri mu myitozo ngororamubiri.

Agacupa k'amazi meza afunze neza, ako gacupa kari mu yandi mazi menshi, ndetse amazi ni ikinyobwa gikenerwa buri gihe mu mibiri yacu, ndetse kikadufasha mu buryo bugiye butandukanye.

Isahani ebyiri imwe iriho imbuto zirimo inkeri n'imineke n'ibindi, indi iriho inyama n'amagi n'ibindi, n'agatebo karimo imboga n'ibitunguru, ku ruhande hariho ibikoresho by'imyitozo ngororamubiri ndetse ibyo byose bigakenerwa n'umubiri kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Amazi meza ari gusukwa mu kirahure, amazi kimwe mu binyobwa gikenerwa n'imibiri yacu kikadufasha muri byinshi harimo no koza zimwe mu ngingo z'umubiri.

Umusore uri mu cyumba k'imyitozo ngororamubiri, ateruye kimwe mu bikoresho bifasha mu myitozo ngororamubiri, gikomeza amaboko ndetse n'ibindi bice by'umubiri.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru b'abazungu, bambaye imipira y'ubururu n'amakabutura y'umukara, umwe aryamye mu kibuga undi amufashe ku ivi ari mukanda, bigaragara ko yagize ikibazo cy'imvune.

Ubwoko bumwe bw'insimburangingo z'amaguru zifashishwa n'abagize ubumuga bw'amaguru, bityo babona izi nsimburangingo ikabafasha kongera kugenda.

Umuforomo wicaye ari guha umugabo akuma kifashishwa kamenyereza abatabasha gutambuka ngo bongere bagende, aragaha umugabo ufite ikibazo cyo kugenda ngo kabashe kumumenyereza azongere agende.

Uburoso bw'umusumi ndetse n'umuti w'amenyo ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba. Uwo muti bakoresha boza amenyo, bikakurinda indwara ziterwa n'umwanda uba mu menyo.

Amakuru ari guca ku gitangazamakuru cy'u Rwanda agaragaramo umugabo w'umwirabura ucuruza imiti ya gakondo asobanura uburyo bwo kunoza urwego rw'ubuvuzi bwa gakondo.

Uducupa dufunze neza tubitse neza, turimo imiti igiye itandukanye, ikorwa mu bihingwa ifasha mu gukira indwara zananiranye zigiye zitandukanye.

Isabune y'amazi isa ubururu, ifite agapfundikizo k'icyatsi, ikoreshwa mu gusukura mu bikoresho byo mu nzu ndetse n'ahantu mu nzu hagiye hatandukanye, igafasha mu gusukura ndetse no kugarura isuku aho yahoze.

Uducupa tw'amabara agiye atandukanye turi mu kabati turacuruzwa, turimo imiti ya gakondo, ifasha umurwayi gukira indwara zigiye zitandukanye, umurwayi wayinyweye arakira.